Iyi foto igaragaramo abantu bicaye bari kwiga kuri Kigali, uburyo bwo guteza Kigali imbere n'uburyo bwo gufata neza abenegihugu, cyane cyane abatuye muri Kigali, ikaba igaragaramo abayobozi b'inzego zitandukanye.

Mu mbwirwaruhame kandi bafoto bya afite mikoro ariko ikibazo na mugenzi we wamufotoraga akaba bari kunywa n'amazi y'inyange.

Yerekana umuntu w'umugabo uri mu mirimo ya Leta, usa nk'uri mu bukangurambaga bw'ikintu runaka, akaba agifite telefone mu ntoki, hakaba hari n'abandi bari kumwumva, hari n'ahantu hari ihema bigaragaza ko habaye umuhuro.

Iyi foto ndabona ari abantu bari mu nama ariko bakomeye, hakaba harimo bavanze haba abirabura, ndetse n'abazungu, bafite amazi yo kunywa, hakaba banabahaye akantu ko kunywa, afite kuba ari icyayi, turapfutse hariho seriviyete hejuru, hari n'ufite imashini, wambaye ishati y'umweru usa n'ubayoboye, abandi abenshi ndabona bambaye amakoti.

Iyi foto igaragaza abantu basa n'abari muri serivisi z'ubuyobozi ariko bakaba basa n'abari guhabwa amabwiriza y'abari kwiga ku kibazo runaka, bakaba bicaye mu ntebe z'umukara basa n'abafite umuntu ubayoboye bose barimo bumva.

Iyi ni ifoto igaragaza uburyo RGB cya Rwanda gavanense bodi, uburyo yagiye ijeneretinga uburyo bushyashya bwo gukoresha.

Iyi ni ifoto y'umuntu urikubasha gutera amazi mu buryo bwo kurwanya ivumbi mu muhanda, akaba yambaye uburyo b'ubwihinzi bwose bushoboka ndetse no gukoresha imashini.

Iyi foto iragaragaza porisi y'u Rwanda yahagaritse abamotari arimo abagira inama mu bijyanye n'umuhanda, hakaba hari n'imodoka ruguru, bigaragara ko n'ubundi ari iya porisi.

Iragaragaza umupolisi uri mu mirimo ya leta, akaba ari gucekinga irangamuntu cyangwa icyangombwa cy'utwaye, niba koko ari cyo nta makosa akirimo. Ku buryo yanagifatira ibihano.

Ufite amazi ari gutera hakaba hari igiti kinini kigandaye akaba yambaye imyenda y'akazi irimo amabara y'umuhondo n'ayajya gusa n'utundi tujya kugarura urumuri akaba ari kumena amazi.

Umumotari wambaye inkweto zifunguye uri kuri moto ndetse n'undi uri kumanuka ndetse n'imodoka n'inzu z'abaturire, n'ahantu hariza icyanya cyo guturamo heza cyane akaba ku muhanda ugaragara nezagana atanuecnda rwose aha hantu akaba ari heza cyane.

Iyi foto igaragaza neza imodoka itwara sima ya Prime Cement ibasha kuba iri mu muhanda ariko ikaba isa niri kuva za nyabugogo isa n'igenda ku buryo ugereraninije yaba iza igaruka hano inyuma.

Iyi ni ifoto igaragaza neza ikimenyetso cyerekana ko ikintu gikomeza kijya imbere. Igaragaza ko imbere hakomeza, hari uburyo bwo gukomeza umuntu ajya imbere cyangwa ikindi gikomeza, ko inzira ihari.

Hano bari kwerekana Regasi hoteri. Ni hoteri dusanga mu Rwanda, hari imikindo n'amazu yubatse hano kuri regasi rwose.